Inzu ziri ku muhanda gutyo cyangwa se n'amashuri ntibabiguye bakagombye kubishyiraho ariko nyine bakareba uburyo bazitira hakaba hafite hakaba bafite sekirite nyine ihagije kubona vuba, hariho ibigega abana bashobora kubyangiza, ariko hazitiye cyangwa se hubatse n'igipangu nta kibazo byaba bifite sekerite ihagije.

Ikigo cy'amashuri kiba cyubatswe gutya kiba kiboneye, ariko na none bakagombye kureba buryo ki bakongera, ahaba hadateye basuparume bakazihashyira kuko ni byiza.

Ibigo by'amashuri ahenshi bya pirimeri, usanga abarimu baho nk'iyo bafite ama wifi ari yo baba bibereyeho kuko mbese badashaka kubigisha abana neza ari ibyo bibereyeho bari gukora.

Utubati dukozwe gutya mba mbona ari twiza pee! Kuko akenshi mu bigo by'amashuri usanga nko mu mapirive nyine abanyeshuri buri wese afite akabati ke, abasha kugenzura ibintu bye akabifunga. Kuba leta yaratworohereje ikadukorera utubati twiza tumeze gutya byabaye byiza kuko byafashije abanyeshuri biga mu mashuri nyine biga babayo . Kuko byarabafashije cyane bagomba gucunga ibintu byabo neza.

Utu tubati, umuntu wazanye igitekerezo cyo gukora utubata tumeze dutya, yakoze ikintu cyiza, kuko wasangaga nk'abayobozi bamwe na bamwe nangwa se abarimu bagenda babatanye amadokima, ariko nka gutya, cyangwa se ibipapuro, cyangwa nka gutya batuzanye, nta mwarimu cyangwa umuyobozi utaha ari kunigana ibikoresho, impapuro ze arazifata akazibika neza mu kabati agafunga, akamenya ko ari we uzajya kurebamo gusa.

Umwana wavuye mu ishuri ntabwo ugomba kumurekera mu rugo, hano hanze hariho imyuga myinshi nko gukanika imodoka, no gukora amashanyarazi n'ibindi byinshi, ntabwo umwana yakwicara mu rugo ngo yabuze icyo akoraagomba guhiga amafaranga.

Gukore egizame bicaye ari umuntu n'umwe ni byiza kuko usanga abanyeshuri badakopezanya, ugasanga buri wese mbese yahanze amaso ku bintu agiye gukora, niyo mpamvu biba byiza nyine kubitangira kare bakabaha n'iminota myinshi, kuko urabona buri munyeshuri ahanze ijisho igipapuro ke agiye gukoreraho nta bindi bintu yarangariye, niyo mpamvu ari byiza gukora bicaye ari umwe.

Iri shuri rya garidiyeni, rirasa neza bafite intebe nziza, ariko hari ikigo usanga, abana bigamo, ntamikeka irimo, ukabona ntantebe nzima zirimo, ariko ahaho harasa neza cyane, umwana wahigira, ntakuntu atafata pe, harakeye haraboneye. Niyo mpamvu leta ikwiye kuhakorwa ku buryo ibigo bimwe na bimwe nyine bigomba kuba birimo inkuru nziza.

Umwuga w'ubusuderi ni mwiza kuko nk'iyo ubizi neza muri karitsiye hapfa ikintu bakaguhamagara, cyangwa se nk'ushaka gukoresha inzugi akaba yakubwira. Ni yo mpamvu ikintu cyose umuntu yize ashizeho umutima ntabwo yabura amafaranga yabishatse aricara agashinga bizinesi akabasha kubona amafaranga. Ni yo mpamvu nyine twese dukwiye gukura amaboko mu mufuka tukiga neza kuko umwuga w'ubusuderi ni mwiza.

Ubukanishi ni bwiza kuba barazanye abantu babyigisha, kuko usanga hari nk'abantu bacikishije amasomo, cyangwa se batakijya ku ishuri mbere baburaga ahantu biga ugasanga babaye ingegera, ariko ubu ngubu byoroshye kuko haje imyuga myinshi.

Umuntu wazanye imyuga yarakoze pe! kuko nku'ubu urabona nk'aba banyeshuri, abanyeshuri bari kwiga gukora inkweto, niyo mpamvu nk'umwana iyo ananiwe ishuri bamwigisha imyuga, imyuga niyo mpamvu ari myiza cyane.

Ibintu bijyanye no gukanika cyangwa se ibintu bijyanye no gukora mu muriro. Abantu ba bakagombye kuzajya barabyitondera. Reba nku'ubu ku kaboko kamwe nta kindi kintu kambaye. urabona kiriya gibora giturutse inyuma nta kintu cyamurinda . Dukwiye kureba uburyo yabyagura nk'abanyeshuri barimo kwiga bakaba bafite ubwirinzi buhagije buhagije cyane ku buryo nta ...

Umwuga wo kudoda ni mwiza kuko nk'iyo ubizi neza ubizi neza ko udoda icyo gihe ubasha kubona akazi mu nganda, cyangwa se ugashyira ku muhanda ukabona abakiriya, ntabwo waba ufite umwuga ngo upfe gupfa icyo gihe. Iyo ubizi bakuzanira amafaranga, kandi nayo niyo batayakuzanira wakwihangira umurimo ufite imashini yawe ukadoda udufuka twabucyangenda. Niyo mpamvu ufite imashini wabura amafaranga icyo gihe ubasha kwiteza imbere bikoroheye.

Kwigisha, uri umwarimu ufita n'ibikoresho birafasha, kuko umwana abifata byihuse, nawe nk'iyo ubona bikwiye, umutumira matimatikare, akabasha gufata neza isoko ryawe.

Gukora muri resitora aba afite iniforume, bigaragara neza kuko iyo ugezemo uhamagara umuntu ubona wambaye iniforume akakuzanira ibyo kurya. Ibintu byateye imbere uba ubona basa neza, abantu baba bakoramo.

Ibikoresho bakoresha bari kubaza, bakagombye nyine kubibika ahantu h'umwihariko, hafite sekirite, ku buryo nta na kimwe cyakwingirika, cyangwa se ngo cyangirize umuturage wese uhaciye. Umuntu wese akwiye kubika ibikoresho...

Umwuga wo gukanika ni mwiza kuko nk'umuntu uwo ari we wese ugiye mu mwuga wo gukanika ntabwo yabura akazi, icyo gihe abasha kwiteza imbere, iyo abifashe neza niyo mpamvu nyine nta mwuga umuntu akwiye gusuzugura.

Umwuga wo gushushanya usanga ari mwiza, niyo mpamvu nta mwuga upfa ubusa, kuko akenshi basigaye bacuruzamo ibintu, bagashaka kugira bashushanyirize gusuka ,bakagira ngo bashushanyiriza abantu, gushushanya...

Imitako nk'iyi cyangwa se ibikinisho n'inkibingibi, mu ishuri birafasha nk'umwana afata vuba iyo ugiye umweka nk'kintu akagenda agisubiramo ariko ku kireba birafasha, niyo mpamvu bakwiye kongera ubushobozi mu bigo byose bakaba badufite kuko abanye abana biga neza bikabafasha kumenya ubwenge kuko iyo ari kukireba ntabasha kukibagirwa vuba, kuko nyine kumubwisha umunwa n'ubundiba bitagaragara neza.

Cyaroroshye mbere wasangaga, umuntu afite indwara idakira, ngo habuze abaganga ariko ubu ngubu haje abagangaga, nyine babizi neza babasha kukuvura ugataha urimuzima, n'indwara yarakunaniye, niyo mpamvu ari byiza nyine kugira abaganga.

Ni byiza ko banyeshuri gukora imyitozo gutya muri groupe, kuko babasha gusobanurirana nk'utacyumva akabasha gusobanura undi akabyumva. Niyo mpamvu nyine ku mashuri yose bakagombye kuzajya bakoresha imyitozo gutya mu ma groupe, kuko natwe mbere ku ishuri byaradufashaga. Wabaga utumva ikintu, haba hari nibyo bahaye utabyumva, ukabaza mugenzi wawe, ukava aho ngaho mwese mwese mwabimenye muri iyo groupe. mubizi neza.